Abana batatu bato bambaye imyenda y'ishuri irimo ubururu n'umuhondo bari koga intoki n'isabune n'amazi kuri robine.

Umusore umwe n'abakobwa batatu bahagaze imbere ku itapi isa umutuku imbere y'igiteleviziyo kinini bari mu mikino.

Abantu benshi bicaye ahantu hamwe bari kuganira ku ngingo. Hagati yabo bafite ibitabo n'impapuro, barigusomaho amagambo bari kwigaho.

Abasore babiri bahagararanye, umwe yambaye umupira w'ubururu, undi yambaye ishati iciye amaboko ndetse anahetse igikapu ku rutugu.

Icyumba kirimo abagore n'abagabo, bambaye amataburiya y'ubururu bafite amakayi, bari gusoma, imbere hari imeza iriho igitambaro cy'icyatsi.

Umugore ufite ibisuko ku mutwe, wambaye umupira w'icyatsi n'igitenge, ahetse umwana inyuma ku mugongo ndetse ari koza umufuniko wi'ndobo.

Abantu benshi bahagaze bafite icyapa mu ntoki, harimo abambaye imipira y'umweru n'ingofero z'umweru, abandi bambaye imipira y'ubururu.

Abantu benshi bahagaze bagiye gufata ifoto, inyuma yabo hari inzu igeretse, iruhande hari igiti kirekire giteye.

Ahantu habereye ibikorwa by'ubuvuzi, hateretse imeza iriho imiti, ku ruhande hari umugore usutamye uri gutera umwana urushinge ku rutugu uteruwe na nyina.

Icyumba kirimo abagore bamanitse amaboko, bari kubyina imbyino gakondo, ku ruhande hari intebe ebyiri zisa umweru, ku nkuta hariho ibipapuro.

Icyumba kirimo abantu bicaye bari kuganira, harimo umugabo umwe ufite indangururamajwi. Ku ruhande hari televiziyo irimo amashusho.

Abantu bahagaze hasi y'ibati, harimo abagore bambaye imyenda y'ubururu ndetse n'umugabo wambaye itaburiya y'umweru.

Inzu ifite umuryango w'icyatsi, irimo umugore uteruye akana gato cyane, imbere hari umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru uri kugatamika imiti.

Ahantu hari abana bato benshi bicaye hasi bari kugaburirwa n'abantu bakuru, harimo n'umupolisi wambaye ingofero n'imyenda yabo.

Abantu baje kuvoma amazi hari amabido menshi ashyizwe ku murongo, inyuma hari umukobwa ufite amabido abiri uje kuvoma wambaye ijipo, wegereye abahungu babiri.

Ahantu hateraniye abantu benshi, bicaye ku ntebe, imbere yabo bafite ubucupa bw'amazi, bakurikiye ibiri kubera imbere.

Abantu bahagaze iruhande rw'ahantu havomerwa amazi, imbere hateretseho ibido irimo ijyamo amazi, inyuma hari ibyatsi byinshi bihateye.

Umwana muto wambaye isengeri, afite akabito yadubitse ku mugezi w'amazi, ku ruhande hari ibyatsi byamereye mu mazi.

Umukobwa w'inzobe ufite umusatsi ufungiye inyuma, wambaye itaburiya y'umweru, ari kumwe n'akana gato n'undi mugore mukuru, bicaye imbere y'ikibaho cy'umukara.

Abantu bahagaze mu nzu harimo abahetse abana mu mugongo, imbere hari umukobwa wicaye wambaye umupira wumukara uri kwandika mu gitabo.

Icyumba kirimo abantu bahagaze bagiye gufata amafoto arimo intebe n'amameza, hejuru hamanitse ibishushanyo biriho abantu barwaye n'abaje kwivuza.

Umugore ufite indobo ebyiri ku mutwe, yikoreyeh iy'umutuku, hasi ku kuboko afite iy'umuhondo, ari kugenda ahantu hari ibyatsi byumye n'ibiti byumye.

Icyumba kinini kirimo abantu benshi bicaye, imbere hahagaze umugore w'inzobe witeze igitenge, uteruye akana afite igipapuro mu ntoki.

Umugore w'igikara wambaye igitenge ateruye umwana wambaye ingofero ndetse ku ruhande agiye kuvomera mu ndobo.

Umwana wambaye ishati y'umuhondo n'ikabutura y'ubururu uri guseka, afite ibirahuri bibiri mu ntoki, ari imbere y'ikiziba.

Umwana muto w'umukobwa wambaye inifomu, ari koga intoki ze, amazi ajya mu ibase, inyuma hari urukuta rw'amatafari.

Abantu bahagaze mu mbuga bagiye gufata ifoto, harimo abaforomo babiri b'abakobwa, aba bantu bari imbere y'icyumba kiberamo inama y'abaganga.

Umwana muto w'igikara udafite umusatsi wambaye ishati ya kaki, arikumwe n'umugore mukuru ari kumwoza intoki n'isabune.

Ahantu hari umuganga uri gupima abantu indwara, imbere bicaye umugore witeze ibitambaro wambaye ibitenge, baziritse ikintu ku kaboko k'ibumoso bari kumupima.

Abantu benshi bahagaze, bakurikiranye umukino wateguwe n'abagabo babiri n'umugore umwe upfukamye hasi, bari gukina kubyerekeye virusi ya Ebola.

Igisharagati giteye ahantu hafi y'ibyatsi, hicayemo abantu benshi bambaye imipira y'imyeru, bakurikiye ijambo bari kugezwaho.

Abantu bateraniye hamwe, baje kuvoma amazi, harimo umwana ufite utubido tubiri, inyuma bakikijwe n'imisozi iriho ibiti bitoya.

Igice cy'icyaro ku muhanda w'ibitaka hari gucaho abantu benshi barimo abanyeshuri bagiye kwiga, ku ruhande hari umugezi bavomeraho, hariho akana gato kateretse akabido bari kuvomera.

Umusore ufite umusatsi ku mutwe wambaye amarinete' inkweto n'ipantaro by'umukara ari kumwe n'akana gatoya, agafashe kari kwipima ibiro ku cyuma.

Icyumba kirimo abantu bicaye ku ntebe, imbere hari imeza harimo umugabo wifashe ku gikanu imbere ye hari mudasobwa.

Icyumba kirimo imeza iteretseho ubucupa bw'amazi, ku ruhande hicaye abantu ku ntebe z'umukara, inyuma hari idarapo ry'u Rwanda.

Icyumba kirimo abagore b'abaganga batatu bicaye ku ntebe, harimo umwe witeze igitambaro mu mutwe cy'umweru ari kwandika mu gitabo.

Abantu benshi bahagaze biganjemo abagabo n'abagore, bafite ibipapuro binini byanditseho amagambo inyuma yabo, hari akazu gato cyane kahubatse.

Ahantu hari abantu batatu, harimo umugore wicaye wambaye agapira k'umweru, bari gutera urushinge, hari n'abandi bantu babiri bahagaze.

Abana bambaye imyenda y'ishuri bari kuri rubine bavoma amazi ajya mu ndobo inyuma hari ibiti bihateye byinshi n'akazu gato kahubatse.

Umwana muto ufite umusatsi muke, wambaye agapira karimo ubururu n'umukara ari kuri robine yoga mu maso n'amazi.

Umwana muto w'umukobwa wambaye ikanzu, afite igicupa kinini kirimo amazi, ari kuyamena ku rukuta rusa umukara, hirya hari igikuta kinini cyubakishijwe amatafari.

Umwana muto w'umukobwa usutamye hasi ari koga amazi, mu ntoki afite n'isabune ku ruhande hateretse amajerekani atatu.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri, ari ahantu kuri robine, ari koga intoki, ku ruhande hari ibiti bihateye byumye.

Abana bane batoya bashyize ibiganza hamwe bareba hejuru, hasi hari ibase irimo amazi, ku ruhande inyuma hari umugabo ufite igikombe.

Ahantu habereye ibikorwa by'ubuvuzi, hicaye umuntu bari kwambika ikintu ku kaboko bagiye ku mupima, ku ruhande hicaye umusaza wambaye ingofero n'ikoti ry'umukara utegereje ko agerwaho.

Umwana muto w'igikara, wambaye ishati y'ubururu izinze n'ipantaro, afite indobo hejuru, ari gukaraga.

Icyumba cy'ishuri, kirimo abana bicaye ku ntebe, bari kurya kawunga n'ibishyimbo, biteretse ku isahani, inyuma hari ikibaho kiriho ibintu biga.

Ahantu hahuriye abantu benshi, harimo abakuru bahagaze ku murongo, harimo n'abana batoya bicaye hasi, bari guhabwa amata mu nkongoro n'bantu bakuru.

Umwana w'umukobwa muto wagiye ku ivomero kuvoma amabido, hasi hari abiri atari kuvomwa, imbere hari umurima urimo insina z'ibitoki nyinshi.

Umugabo w'umuzungu, wambaye ikoti ry'umukara, ari imbere y'abantu bambaye amataburiya asa ubururu, bari gukoma amashyi, abandi bari guseka.

Umwana mutoya uri kumwe n'umukobwa mukuru bafite amabido yabo bagiye ku mugezi kuvoma amazi yanduye, inyuma hari ibyatsi bihateye.

Umwana w'umukobwa wambaye imyenda y'ishuri, ahagaze ahantu kuri robine, ari koga intoki n'amazi, inyuma ye hari ibiti byumye n'inzu zihubatse z'ibyondo.

Abagore n'abagabo bahagaze ahantu mu nzu bambaye amataburiya bagaragara nk'abaganga ndetse n'apantaro y'umukara harimo umugore w'umuzungu wambaye imituku.

Abantu benshi bicaye ahantu bari kumva ijambo mugenzi wabo uhagaze imbere ari kubagezaho, muri abo b'imbere harimo umugore w'umupolisi, imbere gato, hicaye akana gato hasi.

Icyumba kirimo abantu benshi, harimo ababyeyi bateruye abana babo, harimo umugabo uri kunywesha umwana mutoya.

Icyumba kirimo abagore bateruye abana, imbere hari umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye agapfukamunwa uteruye akana mu ntoki uri kugasoma.

Umwana w'umuhungu wambaye ishati y'icyatsi ari kuri robine yoga intoki, inyuma ye hari ibiti byinshi biteye biri mu ibara ry'umuhondo n'icyatsi.

Icyumba gihuriyemo abantu benshi barimo abagore n'abagabo. Kirimo inzugi ebyiri ndetse n'imeza iteretseho amazi, amatelefoni n'ibitabo.

Ahantu hateraniye abantu baje kuvoma, hari amabido, amabase baje kuvomeramo, inyuma hubatse amazu, hari n'ibiti birebire bihateye.

Abantu benshi bahagaze iruhande rw'inzu, hari n'amahema y'umweru ahateye, imbere haparitse imodoka y'ubutabazi y'umweru.

Abantu benshi bari mu mbuga harimo abahagaze n'abasutamye abenshi bambaye imipira y'umweru abandi bambaye amakote bari imbere y'icyapa kinini.

Mu cyumba kirimo abantu bari guvurwa n'abaganga babatera ishinge, inyuma bicaye abandi baganga babiri.

Abakobwa batatu bakuru bicaranye n'undi mwana mutoya, harimo umugore umwe uteze igitambaro cy'umweru uteruye akana, ku ruhande hari umukobwa uri gusoma igitabo.

Umugabo w'igikara wambaye umupira w'ubururu uri guseka, ari kumwe n'umwana w'umukobwa wikoreye ijerekani ku mutwe.

Abantu benshi bahagaze mu mbuga n'abandi bicaye imbere hari amahema ahateye ku ruhande hari imodoka iparitse i ruhande rw'inzu.

Abagabo babiri b'ibikara bambaye amakote bicaye ku ntebe, imbere yabo hari imeza iriho igitambaro cy'umuhondo ubucupa n'amakaye.

Abantu benshi bari mu busitani, bamwe bahagaze barigukoma amashyi, abandi bicaye inyuma yabo, hari ihema rihahagaze risigishijwe amabara y'umweru.

Icyumba gihuriyemo abantu benshi bicaye ku ntebe ndetse hagati harimo umugore wambaye agakoti k'umukara, uhagaze uri kubabwira ijambo.

Icyumba kirimo abantu, harimo umukecuru ufite indangururamajwi mu ntoki ari gutambutsa ijambo, imbere ye hari mudasobwa n'agacupa k'amazi.

Umugabo wambaye ipantaro y'umukara, uhagaze imbere y'inyubako bavuriramo abantu bafite ikibazo cy'uburwayi bwo mu mutwe, hanze hateye ibiti mu busitani.

Icyumba kirimo umukobwa wambaye ikanzu y'umukara n'undi wambaye ikanzu y'ubururu, bicaye ku ntebe bari kuganira ufite ibikinisho.

Abana benshi cyane babanyeshuri, bicaye bambaye imipira y' ishuri y' umuhondo n'utuntu tw'umweru mu mutwe ndetse harimo nabahagaze bari kureba imbere.

Icyumba kinini kirimo abantu bicaye ku ntebe, bafite uducupa tw'amazi hasi, hagati hahagazemo abagore batatu.

Umukecuru w'igikara wambaye ibitenge witeze igitambaro mu mutwe, ari imbere y'inzu atetse mu isafuriya umufuniko n'igikombe biri ku ruhande.

Icyumba kirimo abantu benshi bahagaze bagiye gufata ifoto, imbere yabo hateretse amameza abiri ariho impapuro n'amakayi hejuru hari parafo nziza cyane.

Icyumba kirimo umugore wambaye igitambaro cy'ubururu n'umupira w'icyatsi, yicaye hamwe n'umugabo wambaye umupira w'ubururu imbere yabo hari imeza iriho icupa ry'amazi.

Umusaza w'igikara, uri guseka udafite amenyo hagati, wambaye ishati y'ubururu n'akantu k'umuhondo, inyuma ye hari undi musaza.

Icyumba gisize amarangi y'umweru, kirimo amadirishya n'amarido afunguye, hicayemo abantu ku ntebe, hagati yabo hari umugore uhagaze, wambaye ikoti ry'umukara n'ikanzu y'umweru.

Umugabo mukuru cyane w'igikara, wambaye umupira w'icyatsi ari kurira amarira ashoka ku matama, asa nk'ubabaye cyane, ufite ibibazo byinshi byamurenze.

Abagore batatu bicaye hamwe, bambaye udupfukamunwa, bari ahantu hari itaka ryinshi n'inzu za nyakatsi nyinshi.

Icyumba gisigishijwe irangi ry'umweru, kirimo abantu benshi bicaye mu ntebe, ku ruhande hejuru hari umutako umanitse usa umukara.

Abagore bane bicaye ku ntebe, harimo uwiteze igitambaro wambaye n'igitenge, imbere yabo hari umuhungu wicaye ku ntebe wazamuye ipantaro.

Inzu irimo abantu bateraniye hamwe, bicaye ku ntebe bakurikiye ibiganiro, imbere hari umugore wambaye ikanzu y'umweru, afite uducupa turimo amazi imbere ye na mudasobwa.

Abantu bahagaze ahantu bagiye kwifotoza, harimo abambaye imipira y'imyeru, harimo n'abandi bafite ibyapa bigaragaza ibintu bakoze.

Abana benshi bishimye, bari guseka barangariye ahantu hamwe, harimo uwambaye umupira w'umutuku, undi yambaye ikanzu y'umuhondo.

Umukobwa w'inzobe uri guseka afite imisatsi, wambaye isengeri y'umukara n'ipantaro izinze ku maguru, yicaye mu ntebe azamuye umutwe.

Ahantu mu kibuga haparitse imodoka ifite ibikoresho byo kwa muganga, inyuma hari ahantu bateretse ihema hari intebe nyinshi abantu bagiye kwicyaraho.

Icyumba kirimo abantu bicaye ku ntebe bakurikiranye ibiganiro biri guhuza umugore ufite indangururamajwi uri kumwe n'umukobwa wambaye umupira w'umutuku.

Umugabo uri mu muhanda wambaye imyenda icikaguritse wisize amarangi y'umukara mu maso afite ibintu yikoreye by'ibikapu ku rutugu arasa nk'udafite ubwenge bwuzuye umutwe.

Umusaza wambaye ishati n'umukenyero w'umuhondo n'ingofero yashaje, afite icumu arimo arabyina imbyino za kinyarwanda, inyuma hubatse inzu.

Abana bato cyane, bicaye hamwe bari guseka, harimo abambaye imyenda y'ishuri n'abambaye imyenda itari iy'ishuri.

Umugabo wambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru dutatu, yicaye mu nzu isa nabi yifashe ku mutwe.

Umusore wicaye ku gitanda cyo kwa muganga, arikumwe n'umuganga ufite akuma mu ntoki agiye kumurebera ikibazo cyaba kiri ku menyo yiwe.

Umugabo wicaye ku gitanda cyo kwa muganga ari kumwe n'umuganga w'amenyo, afite akantu mu ntoki agiye kumushyira mu kanwa, afite n'akandi kantu mu kuboko kw'ibumoso, kariho ibintu bikora mu menyo.

Umukobwa ufite imisatsi miremire, wambaye ikanzu y'umweru ari kwi borosa amenyo n'uburoso, yireba mu kirahure kinini.

Abana batoya, benshi bambaye imyenda y'ishuri, isa icyatsi, bafite ibikombe n'amazi n'uburoso, bari kwiborosa amenyo.

Icyumba kirimo abantu bicaye ku ntebe bambaye imipira y'icyatsi, bafashe kumeza iriho igitambaro cy'umweru ndetse n'abandi bantu bambaye imyenda y'umweru.

Umusore w'imibiri yombi ufite ubwanwa ari guseka yerekana amenyo, afite akagozi k'umweru gato cyane akerekeje ku munwa.

Ishuri ririmo abantu, ririmo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, wahaye umunyeshuri igishushanyo cy'umunwa, gifite amenyo mo imbere, arimo kumwigisha ukuntu baborosa amenyo.

Umwana mutoya w'inzobe udafite umusatsi, arasamye umuntu wambaye ibikoresho mu ntoki arimo aramureba mu kanwa.

Icyumba cyo kwa muganga gisukuye neza kiri mu ibara ry'umweru, harimo: udutebe, igitanda umurwayi yicaraho, ndetse n'aho bogera intoki.

Abana bato cyane, bambaye imyenda y'ubururu, bari kwiborosa n'uburoso busa umuhondo, undi afite ubusa ubururu.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umugabo w'igikara uryamye ku gitanda, uri kumwe n'umugore wambaye imyenda y'ubururu, muganga uri kumuvura amenyo afite ibyuma bibiri ari gukoresha.

Umukobwa w'igikara, ufite ibisuko uri guseka, wambaye umupira w'ubururu, afite igipapuro mu ntoki, ari kumwe n'undi mugore wambaye ikoti ry'umutuku.

Icyumba kirimo abana bambaye imyenda y'icyatsi, bicaye ku ntebe, bari kuvurwa n'abantu bambaye imipira y'umweru, ku ruhande hari umukecuru wambaye ikanzu y'umutuku.

Umugabo w'inzobe uri guseka wambaye amarinete abonerana n'umupira w'umweru atunze agatoki ku menyo yiwe.

Ummwana mutoya uryamye ku gitanda, waje kwivuza amenyo mu bitaro, inyuma ye hahagaze umuntu wambaye imyenda y'ubururu afite utwuma tubiri agiye kumuvura.

Umusore wambaye umupira w'umweru, afite agashumi gatoya yagashyize mu menyo, agiye gushikura iryinyo, yireba mu kirahure kinini.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo abantu babiri harimo umuganga uhagaze n'umusore wicaye ku gatebe, wasamye ari kwereka umuganga amenyo yo hejuru.

Umusore w'imibiri yombi, ufite ibisuko ku mutwe bigufi, wambaye umupira w'umweru, ari kwireba mu kirahure afite akagozi gato k'umweru.

Abantu batanu bahagaze imbere y'ikibaho, harimo umugabo umwe wambaye itaburiya, ari guhereza umwana wambaye umupira w'icyatsi impano.

Umugabo winzobe ufite ubwanwa buke, n'umusatsi muke ku mutwe, wambaye ikoti ry'ubururu, mo imbere harimo umupira usa ikigina.

Abasaza babiri, harimo umwe wambaye ishati y'umweru n'ingofero, undi yambaye ishati y'ubururu n'ingofero, bose bishimye bari munsi y'igisharagati

Icyumba kirimo umusore w'umuganga ufite ubwanwa, uri gusobanurira umusaza wambaye ishati hasi hateretse ikaramu iri ku gitabo.

Umugabo mukuru wambaye agapfukamunwa, yicaye mu ntebe, imbere ye hari umukobwa usutamye w'umuganga ari gufungura ibipesu ngo amupime umutima.

Umusaza wicaye mu ntebe y'abarwayi ari gusunikwa n'umukobwa w'inzobe ndetse inyuma yabo hari abantu bari kuganira impande zombi.

Abagore batatu bakuze bari kumwe, harimo uri hagati wambaye umwenda w'umuhondo, ufite telefone ari kubafotora.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku ntebe, bafite imiti ku meza, ikirahure kirimo amazi n'igipapuro kiriho ukuntu imiti inywebwa.

Abagore babiri bari kumwe mu gikoni baseka, umwe afite ikirahure mu ntoki, imbere yabo hari ibiryo birimo inyanya, inyuma hari ibikombe n'amasahani biri mu kabati.

Umukecuru w'inzobe uriguseka wicaye mu ntebe. Inyuma ye hari umukobwa w'inzobe ufite ibisuko, wambaye imyenda y'ubururu n'umweru.

Umugore ufite imisatsi y'umukara w'inzobe, ari gutoza umukecuru mukuru ufite imvi, wambaye ikote, ufite icyuma mu ntoki.

Umukecuru w'igikara wambaye igitambaro cy'umutuku ku mutwe n'ikote, ari kumwe n'umusaza bishimye, ari kumusoma ku itama, umukecuru na we amufashe ku rutugu.

Umukecuru w'igikara ufite imvi wambaye ishanete n'imikenyero, ahagaze mu kibuga kinini kirimo ubwatsi ndetse n'itaka, inyuma hari amamodoka abiri.

Inzu irimo umusaza n'umukecuru bari kureba muri terefone bicaye ku ntebe, ku ruhande hari idirishya riri kugaragaza hanze.

Umusaza wambaye ishati y'umweru ari kumwe n'abana babiri batoya, bose bafite ibintu mu ntoki bicaye imbere y'umuryango urugi rukinguye.

Abagore batandatu bakuze bicaye ahantu mu isoko, bafite ibicuruzwa birimo inyanya, inyuma yabo hateretse amaronji ari ku murongo.

Umusaza wambaye amarinete, ufite imvi, wambaye ishati y'icyatsi n'itaburiya inyuma, afite ikaramu mu ntoki, ari kwandika mu ikaye.

Ahantu hari abantu babiri barimo umuganga uri guha umukecuru imiti, ku ruhande afite ikirahure kirimo amazi giteretse ku meza, inyuma hari akantu karimo indabyo ziteye.

Umusaza w'umuzungu wambaye amarinete n'umupira w'umutuku, ari kumwe n'umukecuru wambaye umupira w'umutuku urimo n'uturongo tw'umukara bari kuganira.

Umusaza wicaye mu ntebe ufite inkoni mu ntoki ari kumwe n'umuganga w'umukobwa amukoze ku rutugu bari kuganira bishimye cyane.

Umukobwa wambaye umupira w'umweru, umukecuru ufite imvi ndetse n'umusore wambaye umupira w'umutuku, bafite isahani iriho amafunguro arimo umugati.

Umukecuru udafite umusatsi ku mutwe, afite ikirahure kirimo amazi mu kuboko kw'iburyo ndetse n'ibinini mu kuboko kw'ibumoso, agiye kubinywa kubera uburwayi afite.

Umukecuru w'umuzungu n'umugabo w'igikara bari muri siporo birukanka mu muhanda, inyuma hari ubusitani burimo ibiti bifite amababi y'umuhondo, hasi hari amababi menshi yaguye.

Abantu bakuze bari muri siporo zo guterura ibiremereye, imbere hari umukecuru ufite akuma gatoya, inyuma hari umukecuru w'umuzungu n'umusaza nabo bafite ibyuma bateruye.

Umukecuru ufite imvi, inyuma ye hari umukobwa ufunze umusatsi, w'inzobe, wambaye umwenda w'icyatsi, harimo n'uturongo tw'umweru...

Umusaza wicaye mu kagare ufite akuma ari guterura kugirango yongere imbaraga mu maboko, ari kumwe n'umuganga w'umukobwa uri kubimufashamo amwereka uko yabigenza.

Umusaza uri kumwe n'umuhungu ahantu mu cyumba, bafite ibikombe by'umweru biteretse ku meza, bari gusoma igitabo, bose bari guseka.

Umugabo w'igikara ufite imvi wambaye umupira w'umweru, aryamye ku gitanda cyo kwa muganga. Imbere ye hahagaze umuntu wambaye itaburiya y'umweru.

Abantu babiri barimo umukecuru ukuze, ufite imvi wambaye amarinete ndetse n'undi muzungu ufite igikoresho gipima abarwayi, wambaye imyenda y'ubururu.

Umugore w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru ari kumwe n'umusaza udafite umusatsi ku mutwe, ufite ubwanwa burimo imvi ari kumupima...

Umugabo mukuru ushaje wambaye umupira n'ishati inyuma, ari kumwe n'abandi kumeza bafite amasahani arimo ibiryo n'ikirahure kirimo amazi.

Umugabo mukuru ufite imvi, ari mu nzu afite ikirahure kirimo amazi arikumwe n'umuganga w'umukobwa uri kumuha imiti mu ntoki ngo ayinywe kugira ngo akire vuba.

Umusaza wicaranye n'umukobwa mukuru ufite imiti mu ntoki amusobanurira ukuntu yayinywa hasi hateretse ibinini ku uruhande hari ikirahure kirimo amazi.

Umwana muto w'inzobe ufite imisatsi myinshi wambaye umupira w'icyatsi, yicaye mu ntebe n'umusaza wambaye umupira w'umuhondo n'ipantaro y'ubururu.

Umugabo ukuze, ufite imvi nkeya mu mutwe, wambaye amarinete, ishati, afite ikaramu mu ntoki, ari gusoma igitabo.

Umukecuru wambaye amarinete, wicaye mu gatebe ko kwa muganga, inyuma ye hari umukobwa w'umuganga umufashe ku rutugu bishimye.

Umukecuru n'umusaza bicaye ku ntebe bari mu nzu, bafite igipapuro mu ntoki, hari n'bindi biteretse ku meza, inyuma hari intebe zihateretse n'amadirishya arangaye.

Umusaza wambaye ishati ufashe ku cyuma gifasha abantu kugenda arikumwe n'umuganga w'umuzungu amufasha gake kugira ngo atagwa.

Abantu benshi bari mu murima, harimo umugabo wambaye ikanzu n'ingofero ku mutwe, ndetse n'abagore, ku ruhande hari ibihingwa byatewe mu murima.

Umusaza n'umukecuru bicaye mu nzu, umusaza afite umuti mu ntoki ari gusoma ibyanditseho, umukecuru ari gukoresha mudasobwa iteretse ku meza, ndetse kuri iyo meza hateretse imiti myinshi.

Umukecuru ufite imvi, uri guseka, afite utuntu dusa icyatsi mu maboko yombi, inyuma ye, hari inyubako itari kugaragara neza, igeretse.

Abakecuru n'abasaza bicaye ku meza bari kurya ku masahani, ku ruhande hari ikirahure kirimo amazi, inyuma hari umugabo wambaye imyenda y'abaganga n'amarinete.

Umukobwa w'umwirabura n'umuhungu w'umuzungu bafashe umusaza amaboko bari kumwicaza ku buriri bagiye kumuryamisha kubera adafite imbaraga zihagije.

Umugore w'umuzungu ufite ikirahure ari gusukamo umutobe, yicaranye n'umusaza ufite ifoke, uri kurya, imbere kumeza hateretse imbuto.

Agace karimo ikibuga gikinirwamo umukino w'amaboko, mu kibuga harimo umugabo uri kumwe n'akana gato k'agakobwa gafite umupira bari gukina baseka.

Ahantu kwa muganga hari umusaza wambaye umupira w'ubururu, ari kumwe n'umukobwa w'umuganga wambaye imyenda y'umukara, ari kumufasha kugenda.

Umukobwa w'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ari kumwe n'umusaza wambaye amarinete, amwambitse ikintu ku kuboko, agiye kumupima amaraso.

Abantu benshi bahagaze hamwe, bari gukoma amashyi baseka, harimo umugore witeze ibitambaro, wambaye inkweto z'umukara n'umweru, uri guhereza impano umukecuru.

Abantu bahuriye ahantu hamwe bagiye gufata ifoto, harimo bamwe bicaye imbere, abandi bahagaze inyuma yabo ndetse harimo n'amadarapo.

Abagore bane bicaye munzu bateruye abana bishimye, hejuru hamanitse amafoto n'amashusho agaragaza umugore uri konsa umwana.

Umukobwa uri guseka ufite imisatsi y'umukara wambaye ikanzu ari kumwe n'umugabo w'umuzungu wambaye ikote nipantaro by'umukara bahagaze mun nzu irimo amakaro.

Umugabo wambaye agapfukamunwa n'ingofero kumutwe n'ishati y'umweru, ari gutera urushinge undi mugabo wambaye agapfukamunwa n'umupira w'ubururu.

Umugore w'inzobe ufite ibisuko by'umukara, wambaye umupira n'ipantaro by'umukara n'ikote, afite indangururamajwi mu kuboko kw'iburyo.

Umwana w'inzobe, ufite imisatsi ku mutwe, wambaye umupira w'icyatsi ari kumwe n'umugabo ufite ubwanwa, wambaye itaburiya y'umweru.

Ahantu hari kubera ibikorwa by'ubuvuzi harimo abaganga n'abarwayi, ku ruhande hari umukecuru wateze akaboko, umuganga ari gufata urushinge agiye kumupima.

Abantu batanu bicaye imbere y'abandi harimo batatu bambaye amakoti, n'umuntu umwe kuruhande uri kubafotora.

Abaganga babiri bambaye ibipfuka isura ndetse n'umutwe, bari gupima umuntu wasamye mu kanwa, bareba indwara yaba afite.

Inzu hejuru imanitseho icyapa kigaragaza ko hasi ari ahantu bacururiza imiti kwa muganga, hasi haparitse amamoto n'abamotari.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo ibikoresho byose umurwayi yakenera nk'igitanda cyo kuryamaho kigezweho ahantu bakogera intoki ahantu wata imyanda n'urugi rugezweho.

Icyumba kirimo ibyuma, bifasha gukora siporo, ku gikuta hamanitse isaha, ku ruhande hari amadirishya abonerana, hejuru hari akuma, gafasha gufata amashusho n'amajwi.

Icyumba cyo kwa muganga gisize irangi ry'umweru, kirimo amatara ahagije huzuyemo ibikoresho byo kwa muganga, birimo igitanda umurwayi aryamaho iyo bari kumukorera ubuvuzi, harimo n'utundi tumashini.

Saro irimo intebe, amameza atatu afatanye harimo iy'umukara n'iy'umweru, ku ruhande hari imitako y'indabyo ziteyemo.

Ahantu hateretse ibitanda bine, bibiri muri byo biryamyeho abahungu babiri bambaye udupfukamunwa, bari gufashwa n'abagore bambaye amataburiya b'abaganga.

Icyumba cyo kwa muganga hejuru hamanitse amatara ku gikuta hamanitse isaha kuruhande hari irido rifunguye, harimo ibikoresho birimo igitanda n'ahantu ho gukorera siporo n'intebe.

Umugabo w'umuganga wambaye itaburiya y'umweru n'igikoresho gipima umutima uko utera, afite agatabo mu ntoki, ku ruhande hari umugore wambaye ikanzu y'icyatsi, begereye inzu yubakishijwe amashami n'ibiti.

Icyumba kirimo abantu bari kuvurwa, ku ruhande hari umugabo wambaye ishati y'umweru, uri gutera umusore urushinge hejuru ku kaboko.

Icyumba gisa neza cyane gifite amarange y'umweru, harimo intebe ku mpande, televiziyo hejuru, hagati harimo imeza n'udutebe duto dusa umukara.

Icyumba gisa neza cyane, kirimo amatara, gitereshejwe amarangi y'umweru, harimo ibitanda by'umweru, amadirishya n'inzugi.

Ahantu hari kubera ubuvuzi hafi y'abaturage, mo imbere harimo umugabo uri kuvurwa wambaye ishati y'umweru, muri icyo cyumba harimo abaganga babiri n'undi mugore wicaye.

Umugore w'inzobe ufite imisatsi myinshi wambaye imyenda y'ubururu ari kumwe n'umusaza bicaye mu ntebe ari kumupima.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo agahinja kakivuka, kari kumwe n'umuganga wambaye imyenda y'icyatsi ari kukitaho, hejuru hari ibyuma byo kwa muganga.

Abantu baje ku kigo nderabuzima harimo umugore uhetse umwana wicaye, ku ruhande hari imodoka iparitse imbere, hari icyapa cyanditseho amagambo agenga ibikorwa bikorerwa aho ngaho,

Icyumba cy'ishuri kirimo abantu bahagaze, imbere hari umugabo wambaye itaburiya y'umweru ari kumwe n'umunyeshuri; yamuhaye ikintu cyigishushanyo kiriho amenyo amwigisha ukuntu bayahanagura bakoresheje uburoso.

Umugore ufite ibisuko, wambaye agapfukamunwa ndetse n'itaburiya y'umweru y'abaganga ari gupima umwana mutoya wambaye ishati y'umweru.

Icyumba kirimo abantu benshi bicaye ku ntebe, harimo abakecuru bambaye ibitenge n'imipira y'umuhondo, abandi bambaye imipira y'ubururu.

Umugabo wicaye mu cyumba cyo kwa muganga, inyuma hari igitanda abarwayi baryamaho iyo bari kuvurwa, inyuma gato hari aho abarwayi cyangwa muganga yogera iyo asoje gukora.

Icyumba kirimo amatara hejuru n'amadirishya menshi, bisizemo amarangi arimo icyatsi, ubururu, umuhondo ndetse kirimo n'intebe.

Umugabo uri hanze y'umuryango yambaye imyenda imupfutse ahantu hose kugira ngo imyanda itaza kumujyaho, imbere hari indobo iri kuri robine igiye gushyirwamo amazi.

Abagabo babiri bakuru bicaye ku ntebe z'umukara, harimo umugabo umwe wambaye ikintu ku kaboko, undi yambaye umupira w'umweru ari kumupima.

Inyubako igeretse rimwe, isize amarangi y'umweru ndetse ifite amabati y'umukara, ku ruhande hari ibarapo ririmo ibara ry'icyatsi, umuhondo n'ubururu.

Inyubako nini y'umweru igeretse, isize amarangi y'umweru n'amabati y'umukara, imbere yanditseho amagambo ari mu ibara ry'umukara.

Umwana muto, wambaye ikoti n'ipantaro ari gusunika umugabo wambaye ishati y'umweru mu kagare k'abarwayi, imbere yabo, hari umugore wambaye umupira w'umweru.

Umuryango w'ibirahure mo imbere harimo abantu babiri bahagaze, hejuru hariho icyapa kirimo amabara y'icyatsi handitswemo amagambo y'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo umuntu uryamye ku gitanda bagiye kuvura bari kwambika umwenda, inyuma ye hari abaganga batatu bagiye kumufasha.

Inzu y'amatafari hanze ifite akarangi k'umweru ku madirishya no ku rugi, hejuru ifite amabati asizwe irangi ry'ubururu, hanze hari ubusitani.

Ibitaro byicayemo abantu benshi ku murongo, imbere hari umusore wambaye umupira w'umweru, ipantaro y'umutuku n'agapfukamunwa ari kureba umwe mu bantu baje kwivuza.

Umukobwa wambaye imyenda y'ubururu, ufite ibisuko ku mutwe ari guca mu bitaro, imbere hahagaze abakobwa batatu b'abaganga, ukomeje imbere cyane hahagaze abagabo, hejuru hari amatara acanye.

Icyumba cyo kwa muganga, harimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, ari gutunganya igitanda abantu bicaraho iyo bagiye guca mu cyuma.

Icyumba cyo kwa muganga, hasi hateretse agatebe gato k'umukara, iruhande rw'iburyo hateretse intebe y'ubururu umurwayi yicaraho iyo ari gusuzumwa.

Umukecuru wambaye imyenda y'umweru y'abaganga, ari mu cyumba kirimo ibimashini bitatu, harimo kimwe ari gushyiramo ibintu, inyuma ye hari ameza ahateretse.

Inzu icanye amatara, isa neza cyane, iteretsemo amameza n'ibyuma byo gukoreraho siporo, birimo ibibara iminota umaze gukora n'ibindi wicaramo ugaterura ibyuma.

Umukobwa w'inzobe ufite imisatsi isutse, wambaye itaburiya y'umweru n'agakomo k'umukara, ari mu cyumba cyo kwa muganga, iruhande rw'igitanda cy'abarwayi.

Inyubako ndende cyane, hanze icanye amatara, hahagaze abantu bakeya, ku ruhande hari indi nzu isa n'iyo ngiyo ndende, ndetse n'ubusitani buhateye.

Icyumba kirimo abantu babiri, harimo umusore wambaye agapfukamunwa n'ingofero uryamye ku gatanda, ku ruhande hari umugore wambaye itaburiya.

Abagore babiri bahagararanye, harimo umwe wambaye amarinete, ibisuko by'umukara, n'imyenda y'ubururu, arikumwe n'uwambaye imyenda y'umweru, ateruye akana.

Icyumba kirimo imitako myinshi n'amabara menshi, arimo icyatsi, umuhondo, icunga, umweru ndetse n'ibikoresho birimo agatanda.

Umukecuru wicaranye n'umusore w'umuganga ufite akuma mu ijosi gapima uko umutima utera bari iruhande rw'insina z'ibitoki ziteye mu murima.

Inzu nini cyane icanye amatara, ifite inzugi n'amadirishya menshi, ku ruhande hari ubusitani, mo hagati hateyemo igiti kirekire.

Ishuri rinini rya kaminuza, imbere hari gusohokamo umugabo wambaye ipantaro y'umukara n'ishati y'umutuku, ahagana hanze ku ruhande hari ubusitani buteyemo ibiti.

Icyumba kinini gisizwemo amarangi y'umweru n'umuhondo, hasi hari amakaro n'intebe nyinshi, harimo n'igikoresho gifasha gutanga umuyaga mwinshi.

Ibitaro birimo ibikoresho ndetse n'ibitanda biryamyeho abarwayi, bambaye ibikoresho bibafasha guhumeka.

Icyumba cyo kwa muganga giteretsemo ibitanda byinshi biryamyeho abarwayi, harimo umugore n'umugabo bari gukora amasuku bakoropa.

Inzu isize amarangi y'umweru n'amabati y'ubururu, ifite inzugi n'amadirishya, ku ruhande hari ibiti birebire ndetse n'indabyo.

Abantu benshi bari kugenda, harimo abambaye imipira y'icyatsi, ku ruhande hubatse inzu nziza, imbere hari ihema rihateye ry'umweru.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda bibiri abarwayi baryamaho, ku ruhande hari amarido agiye atandukanya ibitanda ndetse n'amadirishya.

Inzu y'amatafari, ifite urugi rw'ibirahure, hejuru hasize akarangi k'umweru, kandikishijwemo amagambo asa ubururu.

Abantu bicaye iruhande rw'umuryango, iruhande hari umugabo uhagaze, wambaye ikoti ry'umukara, bari hasi y'inzu ababyeyi babyaye barimo.

Abagore bane, bahagararanye, bambaye udupfukamunwa, ndetse n'imyenda y'abaganga, bahagaze imbere y'ibitaro by'ahantu ababyeyi babyarira.

Icyumba cyo kwa muganga gisigishijwe amarangi y'umweru, ku ruhande hari ibirahure, harimo igitanda kiryamyeho umugabo w'igikara wambaye agapfukamunwa ubyibushye.

Icyumba cyo kwa muganga gisa neza cyane, kirimo umugabo wambaye itaburiya y'umweru, yegereye imashini, iruhande hari intebe na mudasobwa bya muganga aba akoresha.

Umugore wambaye agapfukamunwa ndetse n'imyambaro y'abaganga, inyuma ye hari ibitanda, kimwe kiriho umurwayi, inyuma yabo hari umugore w'umuzungu.

Icyumba cyo kwa muganga gikorerwamo ibikorwa bikenewe cyane, byihutirwa birimo gukuramo umuntu ingingo, uyishyira mu wundi, gukurwamo amasasu n'ibindi byinshi bikenerwa mu gihe umurwayi arembye.

Inzu nini cyane, igeretse rimwe, hasi hari imodoka na moto bihaparitse, byegereye ubusitani buteyemo igiti kiriho ibendera.

Inzu ntoya hasi hari imiryango y'ibirahure, hejuru handitse inyuguti ziri mu mabara y'umutuku, ubururu, umuhondo n'icyatsi.

Icyumba cyo kwa muganga kirimo igitanda abarwayi baryamaho iya bagiye kubacisha mu cyuma ngo bamenye ikibazo bafite, ku ruhande hari ibyuma byerekana amashusho y'ibiri kuba, hejuru hamanitse amatara.

Ahantu heza hegereye ubusitani, hateretse ibyuma byo gukoreraho siporo, harimo ibyo gukandagiraho bakirukankaho, hariho n'ibindi byo guterura.

Icyumba kirimo amatara, inzugi n'ibirahure biboneranamo imbere, harimo intebe n'amameza, hejuru hamanitseho tereviziyo.

Ba muganga aho bakirira abantu baje kwivuza, hari umuhungu uhagaze wambaye umupira w'ubururu, hari n'undi wicaye ku ntebe ,utegereje ko bamwakira bambaye ingofero y'umukara.

Abantu barindwi bari kugendana bafite ibintu batwaye mu ntoki, bambaye amashati y'umweru n'amapantaro y'umukara, abandi ni ay'ubururu bari imbere y'inyubako nini.

Inyubako ndende nini ikoreramo ikigo nderabuzima, hejuru hahagaze abantu, hasi hari abandi ku ruhande hahagaze umusore wambaye umupira w'umuhondo, imbere hateye ibiti bifite amababi makeya.

Icyumba gisize amarangi y'umweru, gifite amatara acanye ndetse n'amadirishya, harimo abahungu n'abakobwa bambaye amataburiya y'umweru.

Inzu ndende ifite amadirishya menshi hasi no hejuru. Imbere yaho hari abagabo batatu bahagararanye, kurundi ruhande hari umugabo uhagaze iruhande rw'imodoka.

Inyubako nini igeretse inshuro ebyiri, hasi hari abagabo batatu, bahagaze iruhande rw'imodoka, inyuma yabo hari akazu gato, kandiditseho amagambo.

Icyumba cyo kwa muganga, kirimo ibitanda byinshi abarwayi baryamaho iyo barwaye ndetse n'imisego yabyo, imbere hateretse imiti kuri buri gitanda, inyuma hari akantu k'agatebe umuntu yakwicaraho.

Inzu y'amatafari igenewe ababyeyi, hanze hari ubusitani burimo indabyo, hepfo hari akazu gatoya kahubatse n'indi y'ubururu idasa neza.

Umusore muremure ufite amaboko manini, wambaye isengeri y'icyatsi, ari kwitera amazi mu isura.

Umukobwa wambaye isengeri, ukenyeye agatambaro ku rutugu, afite agacupa k'amazi ari kunywa, bigaragara ko avuye muri siporo kubera ari kubira ibyuya.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura ari muri siporo yicaye hasi ari kugorora amaboko n'amaguru ari kwikanda mu kuguru bigaragaza ko iyo uri gukora siporo hari ahantu ubabara.

Umuntu wicaye hasi wambaye ipantaro y'umukara n'inkweto z'umutuku, afite ikintu kimuziritse ku kuboko, arimo aragorora amaguru n'amaboko, imbere ye hari agacupa karimo amazi.

Umukobwa w'igikara ufite ibisuko ku mutwe wambaye ipantaro y'umukara ari muri siporo yigorora umubiri, ku ruhande hari amavaze ateretsemo indabyo.

Abantu benshi barimo abana n'abakuru, bahagaze mu kibuga barimo kwigishwa kubyina, inyuma hubatse inzu ku ruhande hari umurima urimo ibihingwa, hirya hari ibiti bihateye.

Umusore w'imibiri yombi wambaye ikabutura y'umukara n'inkweto, ahagaze ahantu yashyize ukuguru kw'iburyo ku cyuma ari kukunanura.

Umukobwa wagiye ku bitaro kwivuza akaguru, ari mu cyumba yicaye ku gatanda, umuganga yafashe ukuguru kwe arimo aramwereka ko ku ivi harimo ikibazo.

Umukobwa mukuru wambaye isengeri, witeze akantu mu ijosi, afite icupa ryuzuye amazi yashyize ku munwa ari kunywa, hejuru hari izuba riri kurasa.

Umugabo wambaye umupira usa umweru n'ipantaro y'ubururu, yicaye mu ntebe afashe agatambaro gasa ubururu yagakojeje ku kuboko kwiwe.

Umuhanda wa kaburimbo, ufite uturongo tw'umweru n'umukara, ku mpande iri kugendamo imodoka y'umweru, ifite ipine y'umukara inyuma.

Icyumba kirimo umukobwa uri mu myitozo ngororamubiri, yashashe agatapi k'ubururu hasi, yicaraho arambura amaguru, ari gufata amaboko akayakozaho, ananura umugongo n'amaguru yose.

Umusore wambaye agapira kamufashe, ku ijosi yikenyeye isume y'umweru, afite agacupa karimo amazi mu ntoki yashyize ku munwa ari kunywa.

Umuhungu w'imibiri yombi ufite umusatsi muke, wambaye isengeri, azamuye akaboko, afite icupa ry'amazi ari kuyasoma areba hejuru.

Icyumba kirimo umuganga ndetse n'umugabo w'umuzungu, ufite umushumi ari kugorora amaboko ye, ku ruhande hari ibyuma byo gukoreraho siporo wirukanka.

Umukobwa wiyogoshesheje wambaye isengeri n'agatambaro k'umweru mu ijosi, afite icupa ryuzuyemo amazi ari kunywa hacanye izuba.

Umugore wambaye umwenda w'umutuku, warengejeho ijire y'ubururu, afite icyuma kiri kwaka ari kumurika umwana mutoya bari kumwe.

Umukobwa w'igikara uri kumva imiziki, wambaye isaha y'umukara ari kunanura amaboko ye yayazamuye, ahagaze ahantu hari ibibuye binini.

Umuntu uri kugorora umubiri, ufite umusatsi, wambaye isengeri y'umukara n'ikabutura y'umukara, arapfukamye, yafashe amaboko ayashyira imbere. Ari kuyananura. Iruhande rwe hari intebe.

Icyumba kirimo abantu bambaye amakoti n'abandi bambaye imyenda y'abaganga n'undi muntu uryamye ku buriri bw'abarwayi, ukuguru kumwe kumanitse.

Umukobwa w'igikara ufite ibisuko ku mutwe, wambaye ekuteri mu matwi, ari muri siporo ari gufata ukuboko akakunanura agushyira mu ntugu ze, ku kuboko yambaye isaha.

Icyumba gishushanyijemo imirongo y'umweru, hahagazemo umukobwa wambaye umupira w'umukara, ari kumwe n'umuhungu wambaye ikintu kimupfutse mu maso, ari kumwambika akantu ku kuboko.

Umugore ufite ibisuko by'umukara, wambaye agapfukamunwa, isaha ku kuboko n'umupira w'umukara, arimo arapfuka umugabo wihishe isura, wambaye akantu k'umweru ku maboko. Bari mu kibuga.

Umukobwa washashe agatapi hasi, ari kwigorora amaboko akora siporo, imbere ye hateretse mudasobwa ku ruhande hari agacupa k'amazi n'utwuma tubiri two guterura.

Umukobwa w'inzobe wicaye mu muhanda wambaye imyenda ya siporo, uri kwinanura afashe ku rukweto rw'iburyo yambaye ikintu cy'umukara ku kuboko.

Umukobwa wicaye mu inzu yashashe agatapi arimo aragorora umubiri we kuruhande hari agacupa karimo amazi hari ibyuma bibiri byo guterura na mudasobwa imbere ye.

Umukobwa uri mu muhanda akora siporo, wambaye umupira w'umutuku, afite ikintu yambaye ku kuboko gifasheho telefone, afite agacupa k'amazi ari kunywa.

Ibitaro birimo umuntu uryamye ku gitanda, ukuguru kw'iburyo kumanitse ku cyuma kubera ko udakora neza imbere ye hahagaze abantu benshi n'abaganga.

Umugabo w'igikara wambaye agapira kamufashe, afite icupa ry'amazi ari kunywa, inyuma hari ibyatsi bisa icyatsi.

Icyumba kirimo ibyuma bifasha kugorora umubiri, harimo abagabo babiri umwe aryamye ku gitanda, undi amuhagaze iruhande, hirya hamanitse ibyuma byinshi harimo ibyo guterura n'ibyo kujyaho.

Ubwatsi bwicayemo abantu bambaye imyenda y'umuhondo n'abambaye imyenda y'imyeru, ku ruhande hari abantu bafite ibikoresho birimo iby'ubutabazi.

Akuma gafite amatwi abiri, muganga yambara mu ijosi, agapima umurwayi uko umutima utera ndetse n'ibindi bipimo muganga ashobora gufata.

Umuhungu wambaye umupira w'umweru n'ikabutura, ari mu cyumba kirimo umugore wambaye imyenda y'ubururu y'abaganga wicaye ari kumufasha kugendera mu cyuma.

Umukobwa unanutse ufite imisatsi miremire, wambaye ipantaro y'umukara n'agasengeri k'umukara gato, amanitse amaboko ari kwinanura.

Icyumba cy'ivuriro kirimo umuntu wambaye ipantaro y'umukara, uri kugororwa n'umuganga wambaye imyenda y'ubururu, ku gikuta hari ishusho igaragaza ibice bigororwa.

Abantu babiri bahagararanye, inyuma hagaze umugore wambaye umwenda w'ubururu w'abaganga, imbere hahagaze umugabo wambaye umupira n'ipantaro y'umukara, uziritse umugozi mu nda.

Umusore w'igikara, ufite ubwanwa, wambaye umupira w'ubururu n'ishanete mu ijosi, afite agacupa k'amazi, yagashyize ku munwa. Ari kunywa.

Umukobwa wambaye isengeri yo gukorana siporo, ari mu myitozo, agorora amaboko ye, yafashe ukuboko kw'ibumoso, agukoza inyuma mu ntugu, imbere ye hari umusozi wubatseho amazu.

Umuhungu wambaye umupira, ikabutura n'inkweto by'umukara, ari mu cyumba gikorerwamo siporo, kirimo itapi y'icyatsi, ashyize ukuguru kumwe ku kintu gisa umukara.

Icyumba kirimo abantu bahagaze bambaye imyenda iriho umusaraba utukura, imbere hari umusore wambaye umwenda w'umutuku, uri kubereka ukuntu batabara, hagize umuntu ugira ikibazo.

Icyumba kirimo irido ry'ubururu n'irindi rimanitse, ku ruhande hari idirishya hicayemo abantu b'abaganga bambaye amataburiya y'umweru n'ubururu, harimo umugabo uhagaze ari kubereka.

Icyumba kirimo abantu batanu, harimo umurwayi umwe n'abandi bantu bane bamuhagaze imbere, ku ruhande hari imeza iriho ibikoresho.

Umugabo wambaye umupira w'umukara n'ipantaro aryamye ku gitanda cy'umukara, abantu babiri bamuhagaze imbere harimo uwambaye ikoti ry'umukara...

Umusore w'umuzungu wicaye ku ntebe, yazinze ipantaro ayigeza hejuru y'amavi, afite igitambaro cy'ubururu mu ntoki ari kwikanda ku ivi yavunitseho.

Icyumba gisizwe amarangi y'umweru, gicanyemo amatara cyo kwa muganga, kirimo ibikoresho birimo intebe umurwayi yicaraho, isize amabara y'ubururu.

Umusore wambaye isengeri y'umukara n'akantu k'icyatsi ku kuboko, yicaye yegamye ku gikuta, afite agacupa karimo amazi yashyize ku munwa ari kunywa.

Umukobwa w'igikara wambaye imyenda igenewe gukora siporo isa ubururu ndetse n'umweru, amanitse amaboko, ari mu myitozo ngororamubiri.

Umusore w'imibiri yombi wambaye isengeri y'ubururu, ipantaro ya siporo y'umukara, amasogisi y'umweru n'inkweto, ari gukora siporo yumva imiziki

Umuntu wambaye umwenda w'ubururu, wicaye mu ntebe, iruhande rwe hahagaze umuntu wambaye itaburiya y'umweru, amufashe ukuboko.

Icyumba kirimo umukobwa munini uri gukora siporo, wambaye akantu hejuru kamufashe, ipantaro y'ubururu n'inkweto bya siporo. ari kunanura ukuguru kwe kw'ibumoso.

Umusore wambaye umupira w'ubururu urimo uturongo tw'umweru, afite icyuma cyongera imbaraga mu kuboko kw'ibumoso aragiteruye ari kumwe n'umuganga.

Akagare gafite amapine ane, gafite aho kwicara ndetse n'aho gufata mu gihe umuntu agutwaye ari inyuma yawe, hasi hari aho gushyira ibintu wahashye runaka.

Umusore wicaye ku gitanda cy'umukara cyo kwa muganga, wambaye urukweto rumwe, ku ruhande hari umuganga uri kumupfuka ukuguru ku iburyo, wambaye imyenda y'ubururu.

Ubwoko bw'imbuto n'imboga buririmo, amaronji, imineke, pome, kokombure n'urusenda. Kuruhande hari ibyuma byo guterura.

Umuntu ufite ijage yuzuye amazi ari gusuka mu kirahure giteretse ahantu, bigaragaza ko kunywa amazi ari ibintu byiza, ku mubiri biwufasha bikawurinda indwara.

Ni icyumba gikorerwamo ubuvuzi; harimo umuntu wicaye wambaye urukweto ku kuguru kw'ibumoso hanyuma ukuguru kw'iburyo hari umuntu uri gushyiraho bande kubera ko uwo muntu wicaye yavunitse.

Umuntu wambaye umupira w'ubururu ugera ku maboko, ari ahantu mu byatsi ari gukora ku gihingwa kihateye gifite amababi y'icyatsi.

Imbuto n'imboga birimo igitunguru cyuzuye n'ikindi gikase, ku ruhande hari indimu ikasemo kabiri ndetse n'amavuta ari mu icupa.

Amababi yigiti asa icyatsi ku ruhande afite uduti duto dufasheho hejuru hari ikirere gisa neza gifite ibicu by'umweru.

Abantu babiri bari mu nzu icururizwamo ibintu byo kunywa birimo amazi arimo uducupa ndetse n'imiti ya gakondo iri mu bikopo n'uducupa, hejuru hamanitse tereviziyo.

Umuntu wambaye umupira w'umutuku, ikoti ry'umukara, ari guca ahantu mu gishanga hari ibyatsi bisa icyatsi...

Umugabo w'igikara wambaye akanozasuku ku mutwe, agapfukamunwa, itaburiya y'umweru ndetse n'ishati isa ubururu afite imiti imbere ye.

Imiti myinshi ya gakondo iteretse ahantu hamwe iri kugurishwa, imbere hari umugabo uri kubaza umucuruzi ukuntu bimeze no hirya hari abakiriya benshi baje kubaza.

Agacupa kagenewe gushyirwamo ibinini gafite ibara ry'umweru kandikishijweho amagambo asa umukara, umutuku, ubururu n'umuhondo.

Abantu benshi bari mu murima bari kugenda, imbere hari ikimashini kiri guca mu bihingwa, cyuhira, ku ruhande hari igiti gifite amashami menshi.

Abantu umunani bambaye ibikapu, bari mu misozi ahantu hegereye umugezi w'amazi amanuka ajya hasi ndetse n'ibibuye binini.

Umugore w'igikara, witeze igitambaro cy'umweru, ari ahantu mu murima, hari agati kariho utubabi ari guca kamwe kamwe.